Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo gifite amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, kiriho imodoka iri mu ibara ry'umweru. Munsi y'icyapa hari inzu nini ikoreramo ibigo by'ubucuruzi.

Abagabo babiri n'umudamu umwe, bafite icyapa kiri mu ibara ry'mweru n'amagambo yanditswe ku ibara ry'umukara n'umweru by'ikirango cy'ikigo cy'ubwishingizi cya Soras, umugabo umwe yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umutuku, undi yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, umudamu yambaye ishati y'umweru n'ijipo y'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu buke cyanditsweho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara. Gifashwe n'ibyuma binini bifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa mu byerekezo bibiri bitandukanye, utandukanyijwe n'icyuma gishinzwe mu muhanda ndetse n'ubusitani buteye hagati mu muhanda, urimo imodoka zifite amabara y'umweru n'izifite amabara y'umukara, ku ruhande hari icyapa kinini gishinze mu busitani.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bimuritse amatara atandukanye, ku ruhande rw'umuhanda hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umukara, kiriho ishusho yerekana imodoka ifite ibara ry'umuhondo icanye amatara ndetse n'abatwaye amagare bari mu muhanda.

Inzu y'imideri icururizwamo amakanzu y'abadamu, amajipo y'abadamu, n'indi mitako, inzu iri mu ibara ry'umweru.

Inkoko nini, iriho imitako y'amabara atandukanye yambarwa ku kuboko, hirimo imitako iri mu ibara ry'umweru, umutuku, umuhondo, n'icyatsi gikeye ndetse n'ubururu.

Igiti kibajwe neza mu buryo bwihariye, cyagenewe mu kumanikwaho imitako, imyenda, kiri ku rukuta rw'umweru, kimanitseho imitako itandukanye.

Igipupe kiriho ishati y'umukara, ipantaro yumukara, ingofero y'umukara, inyuma yacyo hari ikirori gifite umuzenguruko ufite ibara ry'umukara, iruhande rwabyo hari akabati karimo ibikapu n'indi myenda y'amabara atandukanye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imyenda y'abadamu, harimo amakanzu, n'amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu, ari mu tubati twa kaki.

Umudamu uri mu iduka ricuruza imyenda, wambaye ishati y'ubururu bukeye, ufite umupira w'umukara mu ntoki. Ari kureba ku ruhande. Inyuma ye hari agakapu k'umukara n'akandi k'umutuku turi kugurishwa.

Umugabo w'umwirabura wambaye umupira w'umweru, ari kuganira n'umudamu w'uzungu wambaye umupira w'icyatsi cyijimye ufite ikarita mu ntoki. Umugabo w'umwirabura imbere ye hateretse imashini mu ibara ry'umukara.

Akabati gafite ibara ritukura karimo udukapu tw'amabara atandukanye , harimo utw'umuhondo, utwa kaki n'udutukura, imbere yaho hari imeza irimo ibara ritukura iteretseho ibikapu bifite amabara atandukanye, igikapu cy'umweru, umukara, kake.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa birimo imyenda, ikarimo, amakanzu y'umutuku, n'imeza y'umweru, iteretseho ibindi bicuruzwa byinshi.

Umudamu wambaye isengeri y'umweru n'ijipo y'umutuku, afite mu ntoki ishati y'amabara, inyuma ye hari andi mashati n'ingofero by'amabara atandukanye.

Ibipupe byambitswe imyenda y'amabara atandukanye. Icyambaye ikanzu y'ubururu, icyambitswe ikanzu y'umuhondo, ikanzu y'umweru, ikanzu y'icyatsi, ikanzu y'umukara n'ikanzu itukura.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro, undi yambaye ishati y'umukara n'ipantaro, bafite igisa nk'urufunguzo mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka ebyiri nini zagenewe kwikorera imizigo, imwe iri mu ibara ry'icyatsi, indi iri mu ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati ifite ibara ry'umutuku ukeye, afite icyapa mu ntoki kirimo ibara ry'umweru cyanditseho amagambo y'umukara n'umutuku, yambaye ipantaro y'umukara, ku ruhande rwe hari undi mugabo wambaye ishati y'ubururu bukeye, afite amvilope mu ntoki iri mu ibara ry'umutuku, yambaye ipantaro y'ubururu bwijimye, iruhande rwe hari imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Ikigo cy'ubucuruzi cyitwatwa akagera moto muto cyagurishije imodoka y'umukara kiyigurisha umuryango wabantu batatu; umugabo, umudamu, n'umwana, umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara, umugore wambaye ikanzu y'uturongo bahawe urufunguzo rw'imodoka baruguze.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka iri mu ibara ry'umweru umugabo umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi mugabo yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kaki, imbere yabo hari amvirope itukura.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa toyota, ifite ikirahure cy'umukara cy'inyuma, ifite amatara abiri atukura n'andi abiri y'umweru.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru yagenewe kwikorera imizigo, ifite rotorovizeri ziri mu ibara z'umukara amapine ari mu ibara ry'umukara.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota, iri ni ibara ry'umukara. Iragurishwa kuko iriho icyapa cy'umweru, amagambo yanditse umukara ko igurishwa. Hejuru yayo irafunguka mu rwego rwo kwinjiza umwuka mwiza. Iragurishwa miliyoni mirongo itatu na zirindwi.

Imodokari ebyiri z'umukara zirimo ubwoko bwa fokuzabwa fotuna ziragaragara ko ari imodoka ziri kugurishwa ziraha mu igipangu cyamapavi.

Abagabo bane bari imbere yinyubako y'umweru ifite inzugi ziri mu ibara ry'umukara iruhande rwabo hari imodoka iri mu ibara ry'umweru, afite urufunguzo ruri mu ibara ry'umweru rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Intebe zo mu modoka zifite ibara rya kaki, imiryango y'imodoka ifite ibara rya kaki ndetse n'umuzenguruko w'umukara, hejuru ku gisenge cy'imodoka hari ikirahure, ku rundi ruhande rwayo hari imodoka ifite ibara ry'umutuku n'ibirahuri by'umukara.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amafaranga kimwe gifite amafaranga y'amadolari ijana y'Amerika n'izindi note, ikindi gifite amafaranga y'amarundi biri kuyahererekanya.

Ibiro birimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe iri mu ibara ry'ubururu, imashini iri mu ibara ry'umweru, impapuro ziri ku meza, n'amafaranga agerekeranye ari ku meza.

Amafaranga y'u Rwanda igihumbi .Igice kimwe kirimo inzu y'amateka y'i Nyanza. Ikindi gice kiriho ibyiza nyaburanga inkende ziri mu ishyamba zurira irembo.

Inote igihumbi y'u Rwanda, yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda, iriho ishusho y'ibirunga bitatse igihugu.

Ibiribwa bikozwe mu birayi n'ifarini. Bicuruzwa mu mabutiki acuruza ibyo kurya. Biri kumwe biri ku isahani yabyo yabugenewe, bikunze kwitwa ibiraha.

Umuryango ufite ibara ry'ubururu ufashe ku nkuta zifite ibara ry'ubururu, hejuru yaho hari icyapa kinini, kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'icyatsi gikeye.

Umubyeyi wambaye ikanzu iri mu mabara y'umutuku n'umuhondo, imbere ye hateretse igikombe, inyuma ye hari firigo y'umutuku iriho icupa rya koka kora.

Umudamu wambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu yitaniye igitambaro kirimo ibara ry'umweru, afite agakapu kari mu ibara ry'umukara ,imbere ye hari akabati kari mu ibara ry'umweru n'ibirahuri karimo ibinyobwa ,amafanta n'ibiribwa ,imineke n'imigati.

Akabati kari mu ibara ry'umweru, karimo ibikombe bifite ibara ry'umweru, ibirahure ndetse hejuru hari n'indobo irimo ibiribwa, inyuma hari akabati kari mu ibara ry'ubururu, n'urukuta rw'ubururu, karimo amata amazi ndetse n'amaji.

Ikani ifite ibara ry'ubururu rivanze n'ibara ry'umweru n'amagambo yanditse mu ibura ry'umweru, iteretse ku cyuma gifite ibara ry'ubururu hasi yayo hari ijerekani ifite ibara ry'umweru n'umubirikira ufite ibara ry'ubururu.

Ikani iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi, iteretse ku cyuma kiri mu ibara ry'ubururu, iruhande rwayo hari intebe n'imeza biri mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari ijerekani ifite umubikira w'uburu, ijerekani ari umweru.

Iduka ricuruza ibinyobwa rihagazemo umusore wambaye ishati y'amabara atandukanye n'umukobwa wicaye ku ntebe y'ubururu wambaye ikoti ry'ubururu bukeye ikanzu y'icyatsi, inyuma yabo hari intebe y'ubururu.

Abakobwa babiri umwe afite agatambaro k'umweru mu ijosi, undi yambaye ikanzu, imbere yabo hari ameza y'umukara, hariho amasahani n'ibikombe bibiri byo kurya no kunywa.

Umuhanda nyabagendwa. Ibumoso bwawo hari inzu ifite amabati atukura, hari n'igiti cy'amashanyarazi n'igiti cy'umukindo kiri imbere y'inzu.

Ikani itunganyirizwamo amata kugira ngo ahabwe abaturage, inyuma yayo hari amajerekani yifashishwa mu kujyana amata no kuyazana.

Amafoto abiri ifoto imwe irererekana umuntu uri ukubuganiza amata mu ijaga ayahereza abantu babiri bamutegereje baje kuyafata indi foto irerekana inka y'inzungu iri munsi y'igiti.

Itangazo ry'ikigo cy'itumanaho cya AIRTEL, riri mu ibara ry'umutuku amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umugabo ukorera sosiyete ya MTN, aganira n'umugore wambaye ikote ry'umuka n'umweru, ufite ikarito mu ntoki amusobanurira imikoreshereze ya momo.

Inzu y'ubucuruzi bwa PayPay conectando, ifite icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho "PayPay conectando", harimo abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'umukara, bari mu muryango.

Urupapuro ruhabwa umucuruzi wishyuye imisoro muri Rwanda Reveni Otoriti uhabwa iyo yarangije kwishyura imisoro.

Kopi itangwa na Rwanda Revenue Authority yerekana ko uyihawe yishyuye imisoro, yahawe yahawe Rutaganzwa mu karere ka Gasabo.

Urupapuro rwerekana ko wishyuye imisoro y'ibicuruzwa byawe muri Rwanda reveni otoriti rwatangiwe i Nyarugenge.

Kopi y'urupapuro itangwarwa na Rwanda revenue authority ihabwa n'umucuruzi wishyuye neza imisoro, imisoro uko ayisabwa itangwa mu gihe cy'ukwezi cyangwa mu gihe cy'umwaka.

Ifoto y'asiranse yatanzwe, yatangiwe mu karere ka nyarugenge, iri mu mazina y'uwitwa Esperance Ntakirutimana.

Kopi itangwa na rwanda revenyu osorite ihabwa umucuruzi yuko yishyuye imisoro mu karere ka nyarugenge, ihabwa umucuruzi warangije kwishyura imisoro asabwa n'ikigo cya rwanda revenyu osorite.

Amashiringi magana atanu yo mu gihugu cya Tanzania. Uruhande rumwe igice kimwe kiriho umugabo n'ifarasi. Ikindi gice kirimo umudamu wicaye, n'abandi bari gusarura.

Intoki zifite ikofi iri mu ibara ry'umukara zihererekanya zikuramo amafaranga zihereza undi muntu nawe ufite amafaranga y'amanyamerika y'amadolari makumyabiri.

Intoki z'umuntu w'umuzungu ziri kubara amafaranga y'amadorari ijana, ku meza hari amafaranga ijana y'amanyakoreya ya ruguru, hari n'imashini imufasha mu mibare ari kubara.

Inoti z'ijana, iya makumyabiri, iya mirongo itanu, iyi cumi byo mu gihugu cyo muri Korea ya ruguru.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe amafaranga y'amadorari y'inote za mirongo itanu. Imashini ibara amafaranga, n'undi muntu wambaye ikoti ry'umukara uyafashe.

Icyapa cy'ikigo cy'ubucuruzi kinini, kiri mu ibara ry'ubururu, amagambo yanditse mu ibara ry''umweru, hasi yacyo na none hari ikindi cyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo y'umweru.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zitandukanye harimo imodoka irimo ibara ry'umweru ijya nindi igaruka iri mu ibara ry'umweru hakurya hari inyubako ndende ikoreramo ibigo by'ubucuruzi iriho icyapa kinini cyateganya kiriho ishusho y'umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo gifite amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hasi yacyo hari icyapa kiri mu ibara gikeye gifite amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini gifite ibara ry'umweru harimo intebe zifite ibara ry'umukara, imbere yazo hari imeza nini ifite ibara ry'umweru iteretseho imashini ndetse n'impapuro.

Intebe ziri mu ibara rya shokora, zifite imisego ya kaki n'imisego yo ku ruhande y'imyeru ifite ivanzemo n'amabara atandukanye, iruhande rwazo hari izindi ntebe ziri mu ibara ry'umukara n'imeza yazo.

Intebe ziri mu ibara ry'ikijuju, n'iziri mu ibara ry'ubururu bukeye, n'imeza za shokora, ziri mu busitani, izi ntebe ziragurishwa.

Inzu icururizwamo, ibikoresho byo mu nzu, intebe zo mu ruriro, imeza, ndetse n'utubati, twifashisha bashyiramo insakazamashusho, televiziyo.

Intebe zo mu ruriro n'imeza yazo, ntebe enye. Ziri ku muhanda nyabagendwa, umuhanda urimo imodoka yikorera imizigo, n'umumotari.

Intebe zo muri saro, ziri mu ibara rya shokora, zifite imisego iri mu ibara ry'umweru, imeza iteretseho akantu k'umweru, iri mu nzu ifite inkuta ziri mu ibara ry'umweru.

Icyumba gifite inkuta z'umweru, amarido y'umukara. Kirimo intebe zifite ibara rya shokora n'imisego ifite ibara ry'umweru iriho amashashi.

Akabati gafite ibara rya kate kariho amashusho n'imitako itandukanye hari n'amavazi arimo ibiti hejuru yako hari televiziyo ifite ibara ry'umukara, hejuru muri parafo hari kwaka amatara afite ibara ry'umweru ndetse n'urukuta ruriho amakaro afite ibara ry'umweru n'andi mabara atandukanye.

Igitanda gishashe neza kiriho amashuka n'imisego n'imyambaro y'umweru, iruhande hari akabati kabikwamo ibikoresho kari mu ibara ry'icyatsi kijimye, amarido asa umweru.

Umuhanda nyabagendwa hakurya yawo hari inzu nini igeretse incuro imwe; yagenewe guturwamo n'imiryango y'abantu, bafite ubusitani bw'ibiti by'imikindo.

Inyubako nini iriho amazi n'ibiti by'imitindo kuruhande, inyubako iri mu ibara ry'umweru ifite n'amahema kuruhande abantu bicaramo ikikijwe n'ishyamba.

Inzu ndende y'ubucuruzi iri mu ibara ry'umweru ifite inkingi zisa ubururu, ni inzu igeretse kabiri y'ubucuruzi, munsi yayo harimo ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo n'izindi ndabo.

Indabo zifite ibara ry'umuhondo n'ibara ry'iroza n'ibara ry'icyatsi, ziri mu ivaze iri mu ibara ry'umweru, iteretse ku meza ifite ibara ry'umukara.

Intebe za kake ziri imbere ya kontwari iri mw'ibara rya shokora, imbere yayo hari ibinyobwa bitandukanye ndetse hari na televiziyo iri kwerekana amashusho.

Ibiro birimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe y'umukara yo kwicaraho, harimo imashini iteretse ku meza, hariho n'icyapa. Inyuma hariho n'icyapa cyo kwandikaho ibintu.

Abagabo babiri n’umudamu umwe, umugabo umwe k’uruhande arahagaze yambaye ikoti ry'umukara n’ipantaro y’umukara, imbere ye hari imeza y’umukara n’intebe, k’uruhande rundi hari umugabo wambaye ikote ry'umukara yicaye imbere y’imeza, inyuma hari icyapa cy’ikigo cy’ubwishingizi cya Radiant, imbere ye hari imeza iriho icyapa cya Radiant hariho impapuro n'ibindi.

Inzu nini y'ubwishingizi. Iri mu ibara ry'umweru na beje. Hari na pasiparume nziza n'ikindi cyapa cyanditseho ko ari purimari incu.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru rivanze n'ubururu cy'ikigo cya Phoenix, inyuma yacyo hari inzu nini ikoreramo ibigo by'ubucuruzi.

Inzu nini ya etaje igeretse inshuro imwe ikoreramo ibigo by'ubucuruzi. Inyange, Bipiyara na Radiyanti. Iri mu ibara ry'umweru hejuru, hasi iri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara nishati y'umweru, ufite upapuro mu ntoki. Imbere ye hari imeza irimo ibara ry'umweru, iteretse imashini n'igikombe. Iyi foto yabo iri ku cyapa cyamamaza cyivuga ko ubona akubye inshuro ebyiri, umushahara wawe mu masaha makumyabiri n'umunani.

Inzu ikoreramo banki ya Eqeuity, irimo abakiriya ba Equity, n' inyuma hari icyapa cy'umweru, inyuma y'abaturage cyanditseho Equity banki, na televiziyo ku nkuta z' umutuku n'umweru.

Umukobwa wambaye umwenda w'umweru, ari mu modoka n'ibara ry'umukara, hanze yayo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na rinete.

Isoko ry'ibiribwa ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, harimo ibishyimbo, ibigori, ubunyobwa, amashaza n'ibindi, ku ruhande hari n'abacuruza ibitoki, inyanya.

Iduka ricuruza imitako ririmo imigongo, imyuko, inkoko, ingoma, udukomo, amatara, ibisabo, uducuma n'indi mitako y'umuco gakondo.

Inzu ifite igisenge cy'umuhondo, hasi yayo hari imodoka ifite ibara ry'umweru n'indi modoka iri ku ruhande ifite ibara ry'umutuku, imbere yazo hari umwana wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru uri kwirukanka.

Isoko ricurururizwamo ibiribwa bitandukanye harimo; inyanya, intoryi, pavuro, karoti, imiteja, igitunguru, ndetse n'umucuruzi wambaye umupira w'ubururu n'umubyeyi wambaye urusengeri y'umutuku.

Inzu ifite amabati afite ibara ry'ubururu iruhande rwayo hari abantu bagenda, mu muhanda harimo imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse n'abamotari.

Inzu y'ubucuruzi irimo amataburo gakondo, ibiseke, inkoko, n'ibindi nk'imitako, n'amajipo y'abakobwa n'amashati.

Isoko rinini ricururizwamo ibiribwa harimo pome, indimu, wotameroni, amaronji, voka, amatunda, ibinyomoro, imineke n'ibindi bicuruzwa. Ririmo abaje kugura ndetse n'abacuruzi.

Isoko rinini ricuruza ibiribwa bitandukanye, harimo ibitoki, karoti, ibitunguru, inyanya, pavuro n'ibindi bitandukanye, ririmo abacuruzi n'abaguzi baje kugura.

Inzu z'ubucuruzi zicuruza ibintu gakondo harimo ibisabo ndetse n'abandi bari kudoda ibintu runaka, hari ameza y'ubururu uteretseho umukasi n'igikapu cy'umukara n'umucuruzi ubihagaze iruhande.

Umudamu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu, wicaye ku ntebe, iruhande rwe hari ibirayi n'inyuma ye hari ibirayi, inyuma ye none hari ibitoki byinshi, imbere ye hari n'ibindi bitoki ndetse n'umunzani wo kubipima.

Inzu imanutsemo ibitenge by'abadamu biri mu mabara atandukanye, bigiye bigerekeranye bitewe n'amabara yabyo.

Umukobwa witandiye igitambaro cy'umukara gifite imideli ikozwe mui ibara ry'umweru, ari iruhande rw'ibitebo birimo inyanya, imineke, voka, ibihaza, ibishyimbo, imyembe ndetse na pavuro.

Umudamu wambaye ishati'bara ry'umweru uteze igitambaro cyiri mu ibara ry'umweru. ari mu isoko ricuruza ibiribwa ririmo ibitunguru jumba ubutamelon'inyanya n'ibindi bitandukanye.

Isoko ricuruza ibiribwa. Harimo umugore ufite akabase k'ibara ry'ubururu karimo inyanya n'indi base nini y'umukara irimo inyanya nyinshi. Inyuma ye hari intoryi urusenda n'abandi bacuruzi bari gucuruza ibintu bitandukanye.

Inzu ifite imiryango y'ubururu imbere yayo hari hari abantu bari gucuruza ibiribwa bitandukanye, harimo kokombure, urusenda, wotameloni, n'ababyeyi bari kubicuruza bambaye amakoti y'umutuku arimo uburongo bw'umukara.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umukara, umugabo umwe yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo ivanzemo ibara ry'ubururu, afite telefone mu ntoki, undi yambaye ikoti ry'umukara afite telefone mu ntoki.

Ihema riri mu ibara ry'umuhondo, ririho amagambo yandikishije mu ibara ry'ubururu, rya sosiyete y'itumanaho ya MTN, ryicayemo abakobwa babiri, imbere yabo hari terefoni n'ibindi bicuruzwa bya sosiyete.

Umucuruzi ucuruza ibintu bitandukanye ari kwerekana ko akoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura ibyo wafashe bwitwa momopeyi bwa sosiyete ya MTN.

Umutaka w'ikigo cy'itumanaho cya eyateli, urimo umukozi wa eyateli wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku, ingofero iturakura arimo arakira abakiriya baje bamugana muri icyo kigo.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara yicaye kuri moto avugira kuri terefone, iruhande rwe hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ufite telefone mu ntoki, umupira wanditseho ko akorera sosiyete ya emutiyeni mu buryo bwa momo, afite agakapu ka kaki.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN kari mu ibara ry'umuhondo, mu imbere harimo umukobwa wambaye ishati y'umweru, hanze hari abagabo batatu n'abagore babiri.

Umugabo wambaye umupira w'umukara na rinete z'umukara, imbere ye hari umugabo wambaye umupira wibara ry'umukara n'uwambaye ishati yibara ry'umutuku wijimye, iruhande rwe hari umudamu wambaye ikanzu yibara ry'icyatsi gikeye.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'ubururu bukeye n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'umutuku wijimye afite amverope mu ntoki ndetse na terefone mu ntoki.

Abagabo babiri, umwe afite igare yambaye umupira w'umukaraa n'ipantaro y'ubururu bwijimye, afite igare mu ntoki riteye amabara y'umuhondo, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, afite terefone mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa kinini kirimo ibara ry'umuhondo handitsemo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara n'ubururu, n'umweru.

Ikigo cy'itumanaho cya sosiyete ya MTN, kirimo intebe ziri mu ibara ry'umukara n'abakozi bagikoramo bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo bicaye imbere.

Ibiro by'ikigo cy'itumanaho cya MTN birimo abakozi bagikorera, ndetse n'umukiriya wambaye ikanzu, waje kugisabamo serivise. N'abandi bari gusaba ibindi bi bitandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye, ipantaro y'umukara, ari hanze y'akazu kari mu ibara ry'umuhondo, k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, mo imbere harimo umukobwa wambaye ishati y'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, wambaye ishapure ku kaboko n'agakoma, ufite agakapu k'umukara ari muri terefoni akanda imibare runaka, imbere ye hari ameza n'undi muntu wicaye imbere.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umukara n'umuhondo ufite rinete mu ntoki ari kuganira n'umugabo uri imbere mu nzu wambaye umupira w'umutuku n'umweru wanditseho amagambo ya koka ari mu kazu k'umutuku.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo itangirwamo serivisi za MTN, iri ku muhanda, iruhande rwayo hari ipoto ry'amashanyarazi. Iri imbere y'inzu isanzwe ituyemo abantu.

Inzu iri mu ibara ry'umuhondo, imbere harimo abantu babiri, uwambaye umupira w'icyatsi, n'uwambaye umupira w'umutuku ukeye, ruguru hari uwambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara, imbere hari uwambaye umupira w'umukara, n'ikanzu iri mu ibara ry'icyatsi n'andi mabara, hepfo hari uwambaye ishati iri mu ibara ry'umutuku rikeye, n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi gikeye. Afite ikarita itukura mu ntoki ndetse na telefone. Imbere ye hateretse ibikombe biri mu ibara ry'ubururu, birimo inyanya. Ku ruhande rwe hari umutaka uri mu ibara ritukura.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umweru, imbere yako hari abagabo babiri n'umukobwa umwe, umugabo umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umweru, umukobwa yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu bukeye.

Ubutumwa bwerekana ko bagemura ibintu ku buntu waba waguze. Harimo: ibiribwa, imbuto, ibikoresho byo mu nzu, n'ibikoresho by'amashanyarazi waba ushaka byose.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi kibisi, n'ingofero irinda umutwe y'icyatsi kibisi, na moto ifite bogisi inyuma y'icyatsi kibisi, haribyo arimo arakura muri moto inyuma muri bogisi.

Moto iri mu ibara ry'umukara ihetse ax ifite ibara ry'icyatsi .Inyuma yayo hari umugabo ufite ingofero irinda umutwe , iri mu ibara ry'icyatsi n'umupira w'icyatsi nipantaro y'umukara . kuruhande rwe hariru umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya shokora inkweto z'umukara.

Icyumba gifite inkuta zifite amabara y'umweru, amarido afite ibara ry'umukara n'umweru, kirimo igitanda gifite ibara ry'umukara, rishasheho amashuka afite ibara ry'umweru.

Icyumba gifite inkuta z'umweru, amarido y'umweru, imiryango ya kacye kirimo n'igitanda cya kacye, gifite amakaro ari mu mabara avanze n'idirishya riri mu ibara ry'umukara.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugore yambaye ikanzu, umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, bari hanze ku ibaraza bitegera ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo n'intebe ziri inyuma yabo ziri mu ibara ry'ivu bitegeye amazi n'ubusitani.

Inzu ifite dushe irimo robine za kijyambere bakarabiraho ikodeshwa amafaranga amadolari mirongo itanu maganatanu mirongo itanu ku kwezi i Kigali mu Rwanda.

Inzu ngari, irimo mu ibara ry'umweru n'umukara, n'amadirishya y'ubururu buke, igurishwa iherereye i Kanombe, iragurishwa miliyoni mirongo inani n'eshanu.

Inzu yo guturamo iri mu ibara ry'umweru n'ubururu bwijimye igeretse inshuro imwe ifite urugi runini rwo hanze rw'umukara.

Inzu nini iri mu ibara ry'umweru, imiryango n'amadirishya by'uyumukara n'igipangu cy'umukara, ifite urukuta rw'amatafari runini ruyizengurutse ndetse no hasi hari amatafari iherereye Kabeza, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu.

Ibiribwa birimo inyanya, tungurusumu, shufure, imiteja, intoryi, karoti, cokombure, poivro, ndetse n'ubutunguru.

Inzu iteye amarangi y'umuhondo, irimo ibiribwa bitandukanye, inyanya, ibihaza, sereri, teyi, amashu, kokombure, amateke n'ibindi.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto za shokora, ari imbere ya kontwari ifite ibara ry'umweru ririho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku n'ubururu bwijimye, imbere ye hari intebe irimo ibara ry'umukara, hirya ye hari ifoto y'umukuru w'igihugu Paul Kagame.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku n'ipantaro y'umukara. Hejuru ye hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi gikeye kirimo amagambo yanditswe n'ibara ry'umweru.

Inzu irimo ababyeyi babiri umwe yambaye ikanzu y'amabara undi yambaye umupira w'umukara afite amaronji mu ntoki kuru ruhande rwe hari imifuka irimo amaronji, amatunda ibinyomoro n'ibitunguru ndetse na kokombure.

Icyapa kimenyesha ishami rishinzwe gucunga ubwisungane mu kwivuza mituweri kiriho ababyeyi n'undi mubyeyi uteruye umwana.

Ikarita iri mu ibara ry'umuhondo, itangwa na repubulika y u Rwanda, minisiteri y'ubuzima mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, yifashishwa mu kwivuza.

Icyapa cyerekana ubwishingizi bwa Ejo heza, kiri mu ibara ry'umweru, ejo byanditswe ibara ry'ubururu, heza byanditse mu ibara ry ricyatsi gikeye.

Abantu bane bicaye ku ntebe iri mu ibara rya shokora, abadamu babiri bicaye ku mpande, n'abagabo babiri bicaye hagati , ku mpande zabo hari imeza ziri mu ibara ry'ubururu ziteretseho amazi n'ibitabo.

Umudamu wambaye ishati y'umweru yicaye ku ntebe ifite ibara rya kake, ari kwandikira ku meza ifite ibara rya kaki. Imbere ye hari undi mudamu ufite urupapuro rw'umuhondo mu ntoki. Ku ruhande hari akabati gafite ibara ry'ubururu ko kwifashisha kubikamo impapuro.

Inyubako ndende y'itaje ikoreramo ibigo by'ubucuruzi, iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, amadirishya asa ibara ry'ubururu, hasi yaryo hari ubusitani bw'imikindo n'ibindi biti.

Inzu icuruza ibiribwa simba gishushu imbere yayo hari intebe z'umuhondo n'imeza hari n'icyapa kibuza cy'ibara ry'umweru umuzenguruko w'umutuku ibimenyetso by'umukara.

Akabati kari mu ibara ry'icyatsi, hasi hari imineke, ibishyimbo, inanasi, amajeri, ibishyimbo by'ubwoko butandukanye, hejuru hari n'ibindi biribwa bitandukanye.

Akaboko gasize inzara, afite inzara zisize bafashe icupa babikamo ibintu byo kurya iruhande rwabo n'akabati karimo ibindi bipakiyemo byo gucuruzwa.

Umukobwa wambaye umupira wa shokora afite agakapu gasa umweru. Ari imbere y'kabati karimo kokombure, inyanya, ibihaza, ibitunguru, tungurusumu n'urusenda.

Umudamu wambaye umupira w'ubururu bwijimye, itaburiya ya shokora, afasha akabuni k'umutuku, imbere ye hari imashini y'ibara ry'umweru n'indi y'ibara ry'umutuku. Ari kubara ibicuruzwa byaguzwe

Utubati turi mu ibara ry'umweru hasi umukara turimo ibicuruzwa amazi, amaji, amasabune, amakaroni, amabiswi n'ibindi.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara ari gupakira ibiribwa aguze mu isoko kugira ngo abigeze ahabugenewe. Inyuma ye hari abagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umukara undi yambaye ishati y'umweru. Bari mu iduka rinini ricuruza ibintu bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo amaji, amafirigo ndetse hagaragaramo n'umusore uteruye igikoresho cya eregitoroniki wambaye umupira w'umukara.